Ni umuhungu uri kureba imbere wambaye umupira wanditseho Rwanda, imbere yiwe akaba afite amazi yo kunywa.

Ni abantu barindwi bicaye ku ntebe z'umukara, inyuma nyuma yabo hakaba hari umugabo ufite kamera ifotora.

Ni abagabo n'abagore bicaye, buri muntu wese akaba afite mudasobwa n'amazi yo kunywa.

Abagabo n'abagore bicaye bose bakaba bafite amazi ateretse imbere yabo.

Hari abanyeshuri bicaye bicaye imbere ya mudasobwa zisa n'icyatsi bakaba bambaye amashati y'ubururu.

Itariki ntarengwa ni uyu munsi, menyekanisha unishyure igihembwe cya kane cyepatite uyu munsi, kanda magana inani cyangwa usure urubuga rwa ara ara a.

Ni imodoka enye za ambilanse ziparitse imbere y'inzu nini , hakaba hari ibiti ibyatsi n'ibyapa.

Abagabo batatu badafite umusatsi. Umugabo uri hagati akaba yambaye ikoti, umugabo w'ibumoso akaba yambaye amarori.

Ni umugore wambaye umupira w'umutuku, amaherena, n'agapira k'umweru, akaba afite umusatsi w'umukara.

Ni abagabo n'abagore bose bicaye ku ntebe zisa n'uburu, hakaba ari intebe inyuma yabo ziticayemo n'abantu.

Imodoka y'ikamyo y'ubwoko bwa dayihatsu iri kugenda ku muhanda, ibumoso hakaba hari igare ritwaye umuntu uri kugenda, iburyo hakaba hari abantu bari kugenda.

Hari bisi y'umweru iri kugenda ku muhanda, iruhande y'umuhanda hakaba hari umugabo uri kugenda n'amaguru.

Hari bisi y'umweru iri kugenda ku muhanda. Iruhande ya bisi y'umweru hakaba hari umugabo uri kugenda n'amaguru, iruhande y'umuhanda hakaba hari ibiti.

Ni imodoka y'ikamyo ifite amabara y'ubururu n'umweru, iruhande yaho hakaba hari moto ebyiri ziri kugenda.

Ni bisi isa n'ubururu iri kugenda ku muhanda w'amabuye, imbere ya bisi hakaba hari imodoka ebyiri na moto iri kugenda.

Imodoka y'ikamyo y'umuhondo iri kugenda ku muhanda iruhande rw'umuhanda hakaba hari ibiti birebire.

Ni modoka ya tagisi itwaye umukiriya, ikaba iri kugenda ku muhanda, iruhande rwayo hakaba hari moto eshatu ziri kuyinyuraho.

Ni ku muhanda, ku muhanda hakaba hari igare ritwaye imifuka, n'ikibido imbere y'igare hakaba hari moto n'imodoka, iruhande rw'umuhanda hakaba hari abantu bari kugenda.

Icyapa cy'umuhanda cyanditseho ka, na gatatu, na ka, na mirongo itatu.

Hari icyapa cyanditseho repubulika demokaratike ya Kongo. Ikindi cyapa cyanditseho umupaka wa kongo, ikindi cyapa cyanditseho mugire umunsi mwiza.

Ni icyapa gisa n'umuhondo inyuma yacu hakaba hasa n'umukara; hari imirongo hagati ibiri igenda ihengamye.

Ni icyapa cya feruje, ibumoso bakaba basigaranye amasegonda mirongo itatu, imbere amasegonda makumyabiri n'atandatu, ibumoso bakaba basigaranye amasegonda makumyabiri n'atandatu.

Hari imodoka ebyiri ziparitse imbere ya resitora yitwa a na a resitora, ikaba iri hafi ya kanombe ikibuga cy'indege.

Ni ishyamba ririmo ibiti kuri y'iryo shyamba hakaba hari inzu nyinshi za etaje n'izindi za kadasiteri.

Ni umuhanda uri kugendwamo n'imodoka iruhande y'umuhanda hakaba ari inzu ya etaje, munsi yiyo nzu hakaba haparitse imodoka nyinshi.

Ni umuhanda hakaba hari ibiti, amatara, imodoka, moto n'ibyatsi byinshi.

Hari umuhanda urimo abantu bari kuwugendera kuruhande nta modokahari hari moto iri gutwara umugenzi.

Ni umuhanda urikugendwa na moto zitanu, iruhande y'uwo muhanda hakaba hari ibiti birebire by'icyatsi.